Abantu bari mu murima, bigaragara ko barimo gushyira ifumbire mvaruganda ku myaka y'ibigori. Abantu bakaba barimo n'abashinzwe umutekano wo mu bwoko bwa polisi ndetse na gisirikare.

Amacupa menshi, aterekeranyije ahantu hamwe，hamwe agiye ateretse hejuru y'andi， bigaragara ko ari nk'amacupa， abamo nk'imiti runaka， ikoreshwa nko mu buhinzi.

Amafi menshi cyane avanze amanini n'amatoya. Aya mafi akaba arunze ahantu hamwe. Bigaragara ko bamaze kuyaroba mu mazi, bayazamuye hejuru bakayarunda hamwe.

Amafi abiri, aya mafi akaba yamaze kurobwa ndetse arambitse ahantu mu ifu yonyine. Aya mafi bigaragara ko bayashyize muri iyi fu kugira ngo ataza kwangirika.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo amafi, indagara, amasambaza, ndetse n'ibindi. Bimwe bigiye biri mu mifuka ibindi ku nkoko, ndetse harimo umu mama umwe urimo, bigaragara ko ari we urimo gucuruza.

Amafi menshi yamaze kurobwa, aya mafi arunze ahantu hamwe ariko arunze mu bintu bimeze nk'ifu, bayashyizemo kugira ngo ataza guhita yangirika vuba.

Igifi kinini kiri mu ipanu y'amavuta， ndetse bigaragara ko bagiye kugiteka，kiri mu ipanu y'amavuta， ariko biragaragara ko， ipanu idateretse ku muriro.

Ubwato butatu burimo kugenda mu mazi, ubu bwato harimo abantu bagiye babutwaye ndetse n'abandi, kandi ubu bwato bwose uko ari butatu, bufite ibiti birebire bigiye hejuru.

Amafi abiri arambitse ahantu hamwe, aya mafi buri fi rirambitseho nanone urubuto, kandi arambitseho nanone uruboga, kandi aya mafi akaba arambitse acurikiranyije.

Abarobyi barimo kuroba, bashyize inshundura zabo mu mazi, bamwe barimo rwagati mu mazi, abandi bari hejuru ku nkengero, ariko bose ntabwo bafashe inshundura.

Ibiti by'imisave biri ahantu mu gisambu, ni birebire cyane ariko iruhande rwabyo harunzeho ibindi biti byumye bimeze nk'ibisigazwa by'ibigori basaruye ku bigori byo bikaba byumye.

Ibyatsi biteye iruhande rw'uruzitiro. Ibi bimera bikaba bigaragara ko harimo ibyo dukunze kwita nk'amateke, ariko imbere yabyo na none hakaba hari ibintu by'imyanda, harimo amabuye, ibiti n'ibindi.

Umurima uhinze, mu murima bamaze kuwuhinga urimo itaka gusa, nta bimera birimo, ikindi kandi, ruguru yawo hari umuntu umwe.

Ubuhinzi bw'imboga buhinze mu mitabo. Izi mboga ariko biragaragara ko zitarakura cyane, iruhande rwazo na none hakaba hari ikindi gihingwa cy'urutoki.

Imboga zihinze mu kibaya, imboga zikaba zihinze ku murongo, ndetse hagati muri zo hakaba harimo imashini, irimo kugenda izishyiramo amazi, cyangwa se imashini yuhira.

Ibigori binini cyane bishishe ,bihinze mu murima ariko ntabwo birera, byarahetse ,bifite n'imiterero hejuru ku mutwe, ariko ntabwo biragera igihe cyo kwera ngo bisarurwe.

Intama nini cyane yo mu bwoko bwa kizungu, ifite ubwoya bwinshi cyane, ikindi iyi ntama ifite ibara ry'umweru, iyi ntama ikaba iri ahantu mu gisambu, ariko iri yonyine.

Ibishyimbo by'amoko atandukanye biri hamwe. Ibyo bishyimbo bifite amabara menshi atandukanye harimo: umukara, umweru, ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara menshi.

Inkoko iteretse ku meza, iyi nkoko ikaba iriho amashaza asa n'icyatsi, ayo mashaza ariko bikaba bigaragara ko yamaze gutonorwa, iruhande rw'ayo meza na none hari igitebo kimeze nk'aho giciye.

Umumama ufite isuka bigaragara ko agiye mu murima, uyu mumama yambaye hejuru umwenda urimo ubururu, w'umweru, yiteze igitenge mu mutwe akenye n'ikindi, birimo kugaragara ko agiye mu murima.

Igihingwa cy'ibitunguru bikiri mu murima, bitaruma ngo bibe byagera igihe cyo kuba babisarura bakabihunika, cyangwa se bakabijyana mu isoko kubicuruza, biracyafite amababi mabisi ntabwo biruma neza.

Igihingwa cya karoti. Izi karoti zikaba zaramaze gusarurwa. Zirunze ahantu hamwe ari nyinshi, ariko ziracyafiteho amababi makeya. Amababi yose ntabwo bayakuyeho ngo bayamareho.

Umugabo wishimye cyane urimo guseka, ufite ibase y'ubururu, iriho amatunda .Aya matunda bigaragara ko yeze neza ,kandi ari manini atukuye. Uyu mugabo bigaragara ko ari umuhinzi uvuye kuyasarura.

Igiti kinini cy'imbuto, iki giti gifite amababi menshi ndetse gifite n'izindi mbuto nyinshi, zigaragara ko zeze ariko zitarasarurwa.

Icyokezo cyangwa se aho batekera, cyangwa bokerereza inyama, ahantu hari inyama zibaze, ndetse n'umuhoro, hari akajerekani k'amazi, ndetse hari n'indi sahani iriho inyanya.

Imbuto zirimo imyembe ndetse n'izindi, izo mbuto zikaba zirunze hasi uturundo duto duto, zikaba zirunze ku mufuka, iruhande rwazo hari utundi dufuka tubiri dutoya n'inkoko, ariko imbere yazo hari umwana urimo kuhagenda.

Igihingwa cy’amateke. Aya mateke ariko bigaragara ko yamaze gusarurwa. Hari amateke atatu arambitse hamwe adasatuye, hakaba n’irindi rimwe basatuyemo kabiri, bashyiraho igisate kimwe, kandi rifite ibara ry’umweru mu nda.

Umugore uhagaze mu murima w'ibigori, uyu mugore akaba afashe ibigori bibiri mu ntoki, amaze kuhagura akabitonora, akaba bifashe mu ntoki ntamababi bifite.

Umugabo wambaye ishati y'umweru uhagaze mu muririma w'ibigori, umurima urimo ibigori byumye n'ibindi bitaruma, umugabo akaba afashe igihaza kinini cyane, inyuma ye hari ishyamba.

Abagabo batatu bahagaze mu murima, bose bahurije amaboko yabo mu kirere, uri hagati muri bo yambaye ishati y'umuhondo, kandi bose biragaragara ko bishimye barimo no guseka.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru, uri mu mirima y'icyayi. Icyo cyayi gihinze mu mirima ikikijwe n'ibiti by'imbaho. Ikindi muri uwo murima hashinzemo icyapa cy'umweru.

Abantu benshi barimo kugenda barimo kugenda ku murongo ndetse bose bikoreye ibitebo ibitebo birimo ibintu bimeze nk'ibyatsi by'amababi hejuru yawo hakaba hagiye hubitseho ibindi bitebo.

Avoka nyinshi zifite ibara ry'umutuku, izi avoka zikaba zigiye zitondetse mu tubuwate, zitondetse hamwe mu tubuwate ari nyinshi, buri kabuwate kagiye karimo voka nkeya nkeya ariko akaba ari utubuwate twinshi cyane.

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori bigaragara ko arimo kubyitaho, cyangwa se kubisuzuma ngo arebe ko bidafitemo uburwayi, akaba arimo kugenda areba muri buri kigori

Igiti kirekire cy'imbuto, iki giti kikaba gifite amababi menshi, ikindi kandi gifitemo n'imbuto, ariko izo mbuto bikaba bigaragara ko zitarera ngo zigere igihe cyo gusarurwa.

Avoka nini cyane zikiririmo biti zitarasarurwa, izo avoka zikaba zifite ibara ry'umukara kandi zarakuze cyane ari nini zibyibushye.

Abagabo batatu bahagaze mu murima, aba bagabo bahurije amaboko mu kirere, uri hagati muri bo yambaye ishati y'ubururu, ku ruhande rwe hari abandi bagabo babiri, bigaragara ko bishimye, barimo guseka cyane, bakaba bari mu murima w'imyaka.

Ibigori byumye bimanitse, bigiye bimanitse ku biti ku murongo, ibigori bigaragara ko bitatonowe ngo amababi yose bayakuyeho, iruhande rwabyo hakaba hari umumama nawe uhagaze urimo guseka, afashe n'ibindi bigori bihunguye mu.

Abantu benshi barimo kugenda ku murongo, harimo abagore ndetse n'abagabo bikoreye ibitebo birimo ibintu by'amababi bigaragara ko bavuye gusarura icyayi bakaba barimo kugenda ku murongo.

Uruhande rumwe ruriho ibitoki bifite ibara ry'umuhondo, bikaba bigaragara ko ibi bitoki bihiye, ndetse ari imineke. Urundi ruhande ruho ibitoki bifite ibara ry'icyatsi, bivuze ko ibi bitoki byo bitarashya.

Igihingwa cyo mu bwoko bw'inyanya; izi nyanya ziracyari mu murima ndetse no ku biti byazo ,ntabwo zirasarurwa, hariho izigifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'izindi zirimo kugenda ziba umutuku cyangwa se ziba umuhondo bigaragara ko zo zirimo hafi gusarurwa.

Umumama n'umwana bari mu murima bigaragara ko barimo kubagarira imyaka umwana afite agasuka gatoya umumama ntakintu afite barimo kubagarira imyaka ikiri mitoya itarakura cyane.

Ibigori bihinze mu murima, ndetse n'umuhinzi uhagazemo, umuhinzi ni umugabo, yambaye ingofero n'ishati y'ubururu, ariko bigaragara ko ibi bigori bitaragera mu mugihe cyo kwera.

Avoka yasatuwemo kabiri, buri gice kiri ukwacyo igice kimwe cyasigaranye n'urubuto, ikindi kiri cyonyine nta rubuto biri kumwe, Iyi avoka yasatuwemo ibice bibiri bingana.

Abahinzi bari mu murima, abahinzi bigaragara ko barimo kurima harimo ay'abagabo babiri ndetse n'undi mu mama ukenyeye igitenge n'abandi bari inyuma yabo, bigaragara ko bari mu guhinga.

Imbuto z'amaronji zifite ibara ry'umuhondo . Izi mbuto ziri mu isorori ndetse zinaratonoye , zikuyeho ibihu byazo , hari n'izindi ku ruhande zo zitaratonorwa kandi zo zitari mu isorori.

Ibishyimbo bigufi bihinze mu murima, bigiye bihinze mu buryo bw'imirongo, birashishe cyane, ikindi kandi biragaragara ko bigeze mu gihe cyo kuyanga. Kuko bifite uruyange rw'umweru.

Hari imifuka itanu bigaragara ko irimo imyaka ndetse n'indi n'indi myaka isutse hagati y'iyo mifuka, bigaragara ko iyi myaka ari ari ingano.

Abagore babiri, bicaye ahantu hari imyaka. Bigaragara ko barimo kuyitunganya. Umwe muri abo bagore, yambaye amaherena, yiteze n'ibitenge, ndetse yambaye n'ibindi.

Umuntu uri mu murima bikaba bigaragara ko arimo gusarura imyaka, arimo gusoroma bigaragara nk 'aho arimo gusoroma imiteja ,ndetse afite akatebo arimo kugenda ashyiramo.

Ibishyimbo by'umutuku binini bimwe biri ku gitebo ibindi birambitse hasi i uruhande rw'icyo gitebo. Ibiri ku gitebo nibyo byinshi ibiri hasi ni bike ku biri mu gitebo.

Ibishyimbo biri mu i isorori hari n'ibindi biri hasi, ariko ibiri mu isorori bikaba ari byinshi kurusha ibiri hasi. Ibi bishyimbo bifite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara.

Igihingwa cy'ibinyamisogwe cyitwa ibishyimbo, bihinze mu murima ndetse binashingiriye. Ibi bishyimbo ariko ntabwo biragera mu gihe cyo kuyanga, kuko nta ruyange bifite, bikaba birimo kuzamuka ku biti.

Imifuka myinshi itondetse ahantu ku mbaho, imbaho na zo zirambitse hasi ku butaka. Iyi mifuka biragaragara ko hari ibintu birimo, ariko ibintu nta bwo bigaragara. Imifuka ifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ibishyimbo byinshi biri ku isahani, ibi bishyimbo bifitemo ibara ry'umutuku, umweru, icyatsi, umuhondo, ndetse na kaki, ibi bishyimbo bikaba byose birunze ahantu ku isahani.

Igihingwa cy'ibishyimbo bigaragara ko hari ibishyimbo bimwe byazanye imizi ndetse byageze no hejuru bifite amababi, hakaba hari n'ibindi bitaramera ngo bizamuke hejuru bizane amababi.

Ibishyimbo byinshi birunze ahantu hamwe. Ibishyimbo bikaba bigaragara ko byatumbitswe. Bifite ibara ry'umutuku ndetse n'agace kamwe kabyo gatoya gafite ibara ry'umweru.

Imifuka irimo imyaka, ndetse n'indi myaka iri ku bitebo, hakaba n'indi iri ku nkoko, hari n'undi mugabo umwe uri kugenda ayora ku nkoko, ashyira mu mifuka.

Igihingwa cy'ibishyimbo gihinze mu butaka, bimwe muri byo byamaze gukura byageze hejuru, bifite amababi, hari n'ibindi bibiri bikiri mu butaka.

Amasaka ahinze mu murima arashishe cyane, ariko biragaragara ko atarera kuko ntabwo aruma, ameze nk'aho akiri mu ntonore ataragera igihe cyo gusarurwa.

Imifuka myinshi itondetse igiye igerekeranye, iyi mifuka ntabwo harimo kugaragara ibintu birimo, ariko iyi mifuka itondetse imwe itambitse indi ihagaritse.

Ibinyamisogwe byo mu bwoko bwa soya byumye, ariko bikiri mu bishishwa no ku biti byabyo, Bigaragara ko bikiri mu murima bitarasarurwa.

Imifuka myinshi cyane ipakiyemo ibintu, imifuka ifite ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi, imifuka ikaba itondetse imwe ku buryo buhagaritse, indi ku buryo butambitse.

Abagabo batatu bari mu murima, bigaragara ko bari mu murima w'amasaka ,barimo gusarura amasaka ,kuko hari undi umwe ufite icyuma ,barimo kugenda bakatisha amasaka bayasarura.

Itungo rigufi riri mu bwoko bw'ingurube, iri tungo rikaba riryamye hasi ndetse n'ibyana byaryo birimo konka. Iri tungo rikaba riryamye inyuma y'ikiraro cy'ibiti.

Inkoko nini iri ahantu mu byatsi, bigaragara ko ibundikiriye amagi, kugira ngo azavemo imishwi. Ariko amagi amwe ari ku ruhande ntabwo iyatwikiriye neza.

Ubworozi bw'inkoko, izi nkoko ni nyinshi ziri ahantu hamwe, harimo izifite ibara ry'umweru ndetse n'izifite ibara ry'igitaka rivanzemo umweru, hakaba izi nkoko bigaragara ko harimo n'inkoko nini cyane z'amasake.

Intama nyinshi zirimo kurisha ubwatsi muri jaride, ndetse iyi jaride ikaba iri imbere y'amazum, aya mazu asakaje amabati afite ibara ry'ubururu, kandi aya mazu yubatse mu buryo bigaragara ko ari amashuri.

Abantu bigaragara ko barimo gukingira inka, cyangwa se kuzivura, hari abagabo, hari umugabo wambaye agapfukamunwa, n'umwenda w'ubururu, bigaragara ko arimo gutera urushinge inka, ndetse iruhande rwe hakaba hari n'abandi bagabo benshi.

Amatungo magufi yo mu bwoko bw'ingurube. Aya matungo akaba aryamye hamwe ari atanu, agiye aryamye atarebye ku mpande zimwe. Amatungo akaba aryamye hasi ku butaka, kandi aya matungo afite ibara ry'ikigina cyangwa se ibara rya kaki.

Inkoko nini cyane, irimo kugenda ahantu mu byatsi, iyi nkoko bigaragara ko iri mu bwoko bw'amasake, kuko ifite ibirokoroko, kandi inkoko ifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku.

Amatungo magufi abiri ari mu bwoko bw'ihene, aya matungo akaba ari kugenda ahantu mu murima hari ibyatsi bikeya, bitari byinshi, iruhande rwazo hakaba hateyeho ibiti binini.

Inyoni iri mu ishyamba, iyi nyoni bikaba bigaragarako ihagaze ku ishami rinini ry'igiti, iruhande rwaryo hari n'andi mashami menshi cyane, ariko iyi nyoni ihagaze yonyine.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'igikururanda, iyi nyamaswa bakunze kuyita kari umuserebanya, irimo kugenda ahantu ku gitaka, ariko iruhande rwayo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Inyoni ndende cyane iri mu gisambu, irimo kugenda mu gisambu hakirimo ibyatsi byumye n'ibindi bibisi, iyo nyoni ifite amaguru maremare cyane, igice cyo hasi cy'amaguru ni umukara no ku murizo, ariko igice cyo hejuru kugera ku mutwe ni umweru.

Inyoni y'umukara iri ahantu mu gisambu, iyo nyoni ifite amaguru y'umutuku ikindi gice ni umukara ,ariko ku munwa ni umweru, ikaba iri ahantu hamwe mu byatsi.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, iyi nyamaswa ikaba iri mu ishyamba, iri hejuru mu biti ku mashami y'ibiti, niho yicaye yonyine.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti. Iyi nyoni ikaba ihagaze yonyine, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu. ikaba ihagaze ku giti, ku ishami ry'igiti cyumye.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka inyamaswa ikaba irimo kugenda ahantu mu kibaya ifite amabara y'umweru, ndetse n'umukara iyi nyamaswa kandi irimo kugenda ahantu hari ibyatsi ndetse n'indi imyanda.

Inyamaswa zo mu bwoko bw'ingagi. Izi nyamaswa zikaba zifite ibara ry'umukara , bigaragara ko hari ingagi nini itarimo kugaragara neza , ariko iruhande rwayo hakaba hari indi ntoya bigaragara ko ari umwana wayo.

Inyamaswa iri ahantu ku butaka ariko hatari ibimera. Iyi nyamaswa ikaba iri mu bwoko bw'ibigenda bikururuka, ariko iyi nyamaswa ikaba irimo kugenda.

Inyamaswa eshatu ziri mu bwoko bw'ibikeri, zihagaze ku giti, har'imwe muri zo nini ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, ndetse n'izindi ebyiri ziyikikije ku ruhande.

Inyamaswa nini yo mu bwoko bw'ingagi. Iyi nyamaswa ifite ibara ry'umukara, iri ahantu mu gisambu hari ibyatsi bibisi. Iruhande rwayo hari ibiti, ibiti bitemye n'ibindi bidatemye.

Inyamaswa irimo kugenda mu kinani hagati mu byatsi, iyi nyamaswa ikaba ifitemo amabara ya kaki ndetse n'umweru.

Inkende nini eshatu ziri mu biti hejuru, ariko zikaba zifite n'utundi twana tubiri tugiye turi iruhande rwazo, izi nkende zifite amabara y'umweru n'umukara.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka iri ahantu mu biti, ihagaze mu biti, ikindi iyi nyamaswa ifite amababa menshi cyane, ariko biragaragara ko yigunze ahantu mu ibiti yonyine.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka, ikaba ari inyoni ihagaze ahantu mu gisambu hatari ibyatsi. Iyi nyoni ifite ibara ry'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru n'umukara.

Aho barunda imyanda, hejuru y'iyo myanda hariho inyoni ebyiri imwe isa n'umutuku indi isa na kaki , ndetse izo nyoni ziri ahantu hamwe bigaragarako zakonje.